Umuhanda wa kaburimbo uhagazemo imodoka itwara abantu ku giti cyabo yo mu ibara ry'umukara ifite amatara abiri ari kwaka inyuma yaho hagaragara ibiti.

Imbuga isashemo amabuye, ihagazemo abantu batatu bafite urufunguzo runini rw'umweru mu ntoki, rwanditseho amagambo y'umutuku, iruhande rwabo hari imodoka itwara abantu ku giti cyabo.

Abagabo babiri bahagararanye, umwe afite urufunguzo runini rwanditsemo amagambo y'umutuku, undi afite agakapu kari mu ibara ritukura mu ntoki, iruhande rwabo hari imodoka itwara abantu ku giti cyabo.

Ni umukobwa uri guseka w'inzobe, ufite imisatsi miremire iri mu ibara ry'umukara, yambaye umupira uri mu ibara ry'umweru, afite telefone ngendanwa mu ntoki iri kwaka yanditsemo amagambo, yayerekanye arimo kuyitunga urutoki.

Umukobwa wambaye umupira w'umweru w'amaboko magufiya, wasamye ugaragara nk'uwumiwe, afite imisatsi migufiya ku mutwe , afite telefone ngendanwa mu ntoki.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo y'umukara, munsi hashushanyijemo imbonerahamwe ebyiri, zanditsemo amagambo ndetse n'imibare, hejuru mu nguni hari igishushanyo cy'ikirangantego cy'u Rwanda, mu yindi nguni hari igishushanyo cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda.

Abagabo bahagaze bagaragara nk'abatunze umurongo b'abazungu, imbere yabo hari icyapa kiriho imbonerahamwe yanditseho amagambo ndetse n'imibare hariho n'amabendera y'ibihugu harimo; Ubwongereza, Ubushinwa ndetse na Canada.

Icyumba kirimo abantu babiri, umusore wambaye imyenda y'umukara, wicaye ku ntebe y'umweru, n'umukobwa wambaye imyenda y'icyatsi kibisi, hagati yabo hariho ameza ateretseho mudasobwa.

Umugore uri guseka ufite imisatsi myinshi ku mutwe, yambaye umwambaro urimo ibara ry'umuhondo n'utudomo tw'umweru, inyuma y'iwe hari intebe ndetse n'ameza.

Umugore wicaye ateze igitambaro cy'icyatsi kibisi mu mutwe, yicaye ahantu hari ibiribwa bigiye bitandukanye, harimo amacunga n'imyumbati.

Umugore uteze agatambaro mu mutwe, wambaye umupira w'umweru urimo imirongo y'umukara, ahagaze imbere y'ahantu hari imbuto zitandukanye, harimo, inanasi, amacunga ndetse n'ibinyomoro.

Agahanda gashashemo amabuye, imbere yako hahagaze abantu bahagaze imbere y'inyubako zifite umuryango ukinguye, harimo imifuka iri mu mabara atandukanye igerekeranyije harimo ifite ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo.

Akazu gatoya gasize ibarara ry'umuhondo, kanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara ndetse n'umutuku, gafite amadirishya akinguye, imbere hahagaze umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara, uri kureba undi muntu wicaye mo imbere.

Utuzu tubiri twegeranye, kamwe gasize ibara ry'umuhondo, kariho ibyapa by'ibara ritukura, akandi gasize ibara ritukura, kanditseho amagambo n'ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, hamanitseho icyapa cyo mu ibara ry'umuhondo.

Mukingo wubakishije amabuye hejuru yawo hateyebyatsi munsi ku ruhande ahagasa umugabo wambaye agafuka ku mukara imbere y'iwe hari ipikipiki yiturutseho agasanduku karirimo ibara ritukura kandiditseho amagambo y'umweru yatetseho mberelopeya hejuru.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara batandukanye, imbere yabo hari ibitebo ndetse n'ibirundo by'inyanya, inyuma yabo hagaragara imodoka, munsi hari imineke ndetse n'ibirayi.

Umukobwa ndetse n'umuhungu bahagararanye bafite agakapu, bose bafasheho umukobwa yambaye imyenda yo mu ibara ry'umukara, umuhungu yambaye ikote ndetse n'ishati mo imbere.